Mu cyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ubuvuzi butandukanye. Harimo umuganga wambaye impuzankano y'icyatsi ndetse n'uturindantoki tw'umweru. Yambaye kandi agapfukamunwa, ari imbere y'icyuma kiri mu mabara y'umweru kifashishwa mu buvuzi butandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye nk'ameza, ikibaho ndetse n'ibindi, iki cyumba kiri mu ibara ry'umuhondo kirimo umugore wambaye umwenda w'igitenge, hakabamo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ufite igikoresho cy'abaganga mu ntoki.

Icyumba cyo kwa muganga kiryamamo abarwayi gisize amarangi y'umweru kirimo kandi ibikoresho by'ubwoko butandukanye, harimo umurwayi uryamye ku gitanda kirimo amashuka y'umweru, harimo kandi umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapira k'umukara, yambaye kandi icyuma kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima.

Abamama babiri b'abaganga, bambaye amatabuririya y'umweruru ndetse umwe yambaye ikanzu y'igitenge. Bari mu cyumba kizwi nka raboratwari, ahakorerwa ibizamini ku miti itandukanye. Umwe afite ikirahure, arimo arashyiramo umuti uri mu ibara ry'icyatsi cyijimye. Undi na we arimo aramufasha.

Mu nzu izwi nk'isuzumiro ryo kwa muganga ikorerwamo ibizamini ku ndwara z'ubwoko butandukanye, harimo muganga wambaye itaburiya y'umweru uciye amaboko, yambaye kandi uturindantoki afashe ikirahure arimo arasuka mu kindi kirahure giteretse hasi amazi.

Ihuriro ry'abana b'inshuke bahurijwe mu kizwi nk'irerero, bicaye ku mukeka uri mu mabara y'umuhondo, ndetse n'ubururu bwijimye, buri mwana afite igikombe kirimo igikoma, barimo kunywa igikoma. Abana bambaye kandi impuzankano zitandukanye, zirimo ziganjemo amabara y'icyatsi, ndetse n'udukabutura tw'umukara.

abasore n'inkumi bo mu kigero cy'urubyiruko, bicaye iruhande rw'ameza, bari gukina udukarita, harimo uwambaye umupira w'icyatsi cyijimye cyane, hakabamo umukobwa w'inzobe cyane, wambaye agashati karimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, umusore ufite ubwanwa bw'umukara, wambaye agapira k'umweru n'undi uri hirya ku ruhande ruhera, wambaye ipantaro jya gusa n'ivu, bose bari gukina amakarita mu buryo bwo koroshya

Mu cyumba gikorerwamo ibiganiro bitandukanye hari umugore wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, ipantaro y'umukara na marinete abonerana ndetse afite ibisuko bizirikiye inyuma, ari imbere y'abanyamakuru batandukanye n'aba bafite amatelefoni mu ntoki abafasha gukurura amajwi ndetse n'ufite insakazamajwi izwi nka mikorofone.

Icyumba kigari cyane gikorerwamo inama kirimo amarido y'umutuku, ndetse n'ibikuta bisize amarangi y'umweru, gihuriwemo n'abacungagereza batandukanye, bavanze abagabo n'abagore, bambaye impuzankano y'ibara rya kaki, buri mucungagereza imbere ye, hari ingofero yambara ndetse n'ikaye kwandikamo iteretse ku meza.

Umuhanda wubakishije amabuye ukikijwe n'inyubako zitandukanye hariho inzu iri mu mabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara, yanditse amagambo iyi nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti y'ubwoko butandukanye, hirya yayo hari ubusitani bwinshi burimo indabyo zitandukanye n'ibiti bitandukanye.

Imbere y'uruhurirane rw'abantu batandukanye hari umusore wambaye agapira k'umweru kariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara avuga ngo gakoreshe neza ndetse n'agakingirizo k'umuntu gashushanyije umupira, yambaye uturinete mu mutwe kandi afite ibyapa bibiri bikangurira abantu kwirinda virusi itera sida ndetse no gukoresha agakingirizo neza.

Akabati kari mu mabara y'umutuku n'umweru, karimo ibyumba bitandukanye, yaba biri hejuru y'ibindi ndetse no hirya y'ibindi, harimo amacupa apfundikije imifuniko y'umutuku ndetse n'umukara, harimo imiti ikomoka ku bimera, yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Inyubako nini isize amarangi y'umweru irimo imiti y'ubwoko butandukanye ikomoka ku bimera yifashishwa mu buvuzi gakondo, harimo umugore ufite imisatsi myinshi cyane, wambaye agashati karimo amabara y'umweru, umutuku, ndetse n'umukara.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi yanditseho ijambo mu mabara y'ubururu rivuga ngo gira ubuzima ndetse n'ishusho y'abantu bari mu mabara y'umweru. Iriho amarangi yubururu bwerurutse ndetse isakaje amabati y'ubururu, hirya yayo hariho ihema ry'umweru rihagazeho umuntu wambaye agapira k'amabara y'umweru n'umukara, hicaye kandi abantu baje gufata ubuvuzi butandukanye.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'amaherena y'uruziga ku matwi, afite kandi ibisuko bizinze by'umukara. Ari imbere ya mudasobwa arimo arandikamo amakuru akuye ku bipapuro afite. Imbere ye kandi hari ibipapuro byinshi ndetse n'ikaramu yo kwandikisha.